Abantu benshi batandukanye bari mu gikorwa cyo kubaka inzu bubakishije amatafari ndetse n'icyondo, bamwe bari gukata, abandi batunda ndetse abandi bubaka.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abaganga babiri bambaye uturindamisatsi, udupfukamunwa ndetse n'amataburiya. Bafite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nini imbere yayo harambitse ibitambaro bigaragaza ko nta muntu wemerewe kuhagera, hagaze umugabo wambaye igisarurwe cy'umweru ndetse ufite ipombo yifashishwa mu gutera imiti.

Abakobwa babiri ndetse n'umusore umwe, bambaye amajile bateruye umurwayi wahuye n'ikibazo, barimo kumujyana bamuvana mu ruhame ahateraniye abantu, bamujyana kumuha ubufasha bw'ibanze.

Icyumba k'inama hateraniyemo abagabo ndetse n'abagore bambaye amajire atukura hariho ikirango cy'umusaraba, bigaragaza ko batanga ubutabazi bw'ibanze bitabiriye inama iri kubera aho ngaho.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro, harimo abagore batatu bicaye ku bitanda hejuru yabyo hari inzitiramibu, bakikiye abana babo bamaze kubyara.

Abagabo bari ku ivuriro umwe ufite ibikomere ndetse n'ibipfuko iruhande rwe hari undi umufashe uri kugenda amusindagiza wambaye ga z'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, cyifashishwa igihe umurwayi aje arembye cyane.

Imodoka izwi ku izina ry'Imbangukiragutabara, irimo umushoferi uyitwara, iparitse imbere y'inyubako nini y'ibitaro bya Gatunda, aho izana abarwayi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, giteraniyemo abaganga batandukanye, bambaye uturindamusatsi, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki n'amataburiya, barimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda.

Abaganga babiri, bafite umurwayi uryamye ku gatanda, uzanywe n'Imbangukiragutabara, barimo kumwihutisha, bamujyana kugira ngo bamusuzume uburwaye afite.

Ikiraro kinini hejuru yacyo hahagaze abagabo benshi bambaye amajire atukura hariho ikimenyetso cy'umusaraba kigaragaza ko batanga ubutabazi bw'ibanze, barimo kuzamura umugabo warohamye bifashishije umugozi.

Icyumba cyo kwa muganga, gisuzumirwamo indwara zitandukanye, harimo icyuma kinini gicanye urumuri cyifashishwa mu gusuzuma indwara zo mu mubiri imbere zitagaragara inyuma.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibagiro harimo abaganga babiri harimo n'igitanda kiryamyeho umurwayi, barimo guha ubuvuzi bugiye butandukanye.

Abaganga batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bari mu cyumba kizwi nk'isuzumiro, barahagaze baregeranye barimo gufata ifoto.

Icyumba cyo kwa muganga harimo kuberamo umuhango wo gutanga icyemezo k'ishimwe, harimo umugabo ndetse n'umugore umwe yagitanze undi yacyakiriye.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro, harwariyemo abana babiri bicaye ku bitanda, iruhande rwabo hicaye umugore ubarwaje, imbere yabo ahagaze abagabo barimo kubaganiriza.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro birimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi bivuza babamo, hejuru yabyo hari inzitiramibu, ibarinda imibu ikwirakwiza agakoko gatera malariya.

Inyubako yo kwa muganga hateraniye abarwayi batandukanye, harimo abafite ikibazo cyo kutagenda neza, hari ibyuma ndetse n'utugare tubafasha kugenda, hahagaze n'umugabo wambaye imyenda y'imikara, urimo araterera agapira hejuru, akina n'abarwayi kugira ngo abafashe, kurambura ingingo zabo.

Inyubako nini yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye, icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'amaso, hari n'icyapa kinini gishushanyijeho ijisho kugirango kirangire abahagana.

Ku bitaro ahazwi nko kwa muganga, hari abarwayi batandukanye bicaye bategereje guhura na muganga, baje kwivuza uburwayi bafite bugiye butandukanye.

Inyubako zitandukanye ziri mu kigo kimwe zo kwa muganga, hicaye abarwayi batandukanye baje kwivuza uburwayi bwabo, baricaye bategereje guhura na muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe ndetse n'abantu batandukanye bicaye, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, urimo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro, harimo ibitanda biriho abarwayi bivuza babamo, hejuru yabo hari inzitiramibu z'imyero zibarinda imibu ikwirakwiza agakoko ka malariya.

Umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi, uturindantoki tw'umweru, afashe ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibikomere bigiye bitandukanye ndetse ku turindantoki twe hariho amaraso bigaragara ko amaze kuvura igikomere.

Abantu batandatu barimo abagore batatu ndetse n'abagabo batatu, bambaye imipira y'imweru, bazamuye ikiganza cy'iburyo barimo kurahira, umwe afite igipapuro barimo gusomaho izo ndahiro bari gukora.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga iruhande rwe hahagaze umuganga w'umukobwa wambaye ikabaya y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu afite igikoresho mu matwi arimo kumupima uko umutima utera.

Abantu benshi batandukanye batonze imirongo bari kuva mu bitaro by'Akarere ka Nyagatare bajya ku rwibutso kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu abaganga ndetse n'abari abakozi b'ibyo bitaro.

Ku kigo nderabuzima hari umugabo w'umuganga, wambaye amarinete y'umweru, itaburiya ndetse n'uturindantoki tw'umweru, imbere ye hari umugore waje kwivuza, arimo kumuha imiti.

Inyubako nini y'ibitaro bya Gatunda, imbere yayo haparitse imodoka y'imbagukiragutabara, harimo umugabo wambaye amarinete yifashishwa gutwara abarwayi ibazana kuri ibyo bitaro bya Gatunda.

Icyumba giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yabo hahagaze umugabo, urimo kubahugura ku bijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro, harimo ibitanda bishashe birara aho abarwayi bivuza babamo, hejuru yabyo hari inzitiramibu zibafasha kwirinda imibu ikwirakwiza agakoko ka malariya.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umugabo wicaye areba hejuru, imbere ye hari undi mugabo wambaye uturindantoki tw'umweru, itaburiya, ndetse n'akarindamisatsi, arimo kumushyirira umuti mu maso.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo uburwayi, hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite ibipapuro ndetse n'ikaramu ari kwandikisha, iruhande rwe hari umugore urimo kumubwira, uburwayi afite.

Ibitaro bifite inyubako zigiye zitandukanye, hateraniye abaturage b'ingeri zitandukanye, baje kwivuza uburwayi. Hari akayira gasakarishije amabati bacamo kugira ngo birinde imvura n'izuba.

Icyumba cyo kwa muganga kifashishwa mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye kizwi ku izina ry'isuzumiro, harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru arimo gusuzuma indwara zigiye zitandukanye z'abantu.

Icyumba k'isuzumiro cyo kwa muganga, hahagazemo umuganga ufashe agashinge agiye kujomba umurwayi kugira ngo abone amaraso yo kwifashishwa, gusuzuma uburwayi afite.

Abaganga babiri bambaye amasarubeti maremare y'imyeru, bafite ingofero barimo kurebera mu gikoresho cyifashishwa kwa muganga mu kureba udukoko tugiye dutandukanye tutagaragara n'amaso.

Icyumba kinini gikorerwamo ubushakashatsi bateraniyemo abasore ndetse n'inkumi bambaye amataburiya y'imyeru barimo gukora ubushakashatsi ku byatsi bafite.

Umuganga uhagaze wambaye uturindantoki tw'umweru itaburiya y'icyatsi afite agakoresho karimo amaraso yifashishwa mu gusuzuma indwara ya sida yibasira abantu.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'isuzumiro, harimo ibikoresho n'ibyuma bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma indwara zigiye zinyuranye z'abantu.

Icyumba cyo kwa muganga, kifashishwa mu gusuzumirwamo indwara zigiye zitandukanye, harimo umuntu ufite agakoresho karimo amaraso, agiye gupima ngo arebe umuntu ikibazo afite.

icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, kizwi nka laboratwari giteraniyemo abasore n'inkumi, barimo gukora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki kugira ngo batagira indwara bandura.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kizwi nk'isuzumiro, harimo ibikoresho ndetse n'imiti igiye bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye.

Umugore wicaye uteruye mwana afite isahani itukura iriho ibiryo bigiye bitandukanye arimo kugaburira uwo mwana indyo yuzuye hariho urubuto rwa avoka, hari imboga ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri bateruye amasahani ndetse bafite amakanya, barimo kugaburira abana batandukanye, babigisha kurya indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri.

Umugabo uhagaze wambaye ijiri y'umuhondo, imbere ye hari ameza manini ateretseho akabase karimo igikoma arimo aragikuramo ashyira mu bikombe ahereza abana bazengurutse ayo meza.

Abana benshi batandukanye bicaye, iruhande rwabo hahagaze ababyeyi babo babazanye, bafite ibikombe bya palasitike, bari kunyweramo amata.

Abagore batandukanye ndetse n'abagabo, bari mu kibuga kirambuye, bambaye imipira y'icyatsi, bakoze uruziga, barimo kugenda bazenguruka, baririmba banabyina.

Sitade nini yubakiye hateraniyemo abantu benshi batandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye iy'imikara baje mu birori byabereye mur'iyo sitade.

Ahantu hateraniye abaturage benshi, hahagaze umugore uri imbere y'icyapa kiriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, imbere ye hari indangururamajwi, arimo aratanga ijambo bigaragara ko ari mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Icyapa kinini, kiriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza umubyeyi kwita ku mwana we atwite, kibashishikariza kwipimisha igihe atwite.

Abagore babiri bahagaze imbere y'isafuriya iteretse ku ziko irimo ibiryo bigiye bitandukanye batetse ariko bitarashya neza bitanga intungamubiri ku muntu wabiriye.

Abagore benshi batandukanye bateruye abana babo, babazanye ku ivuriro kubapimisha uburebure ndetse n'ibiro byabo kugira ngo barebe imikurire yabo.

Abagore benshi bateruye abana babo babazanye ku gipimo, aho bari kubapima uburebure ndetse n'ibiro byabo kugira ngo barebe niba bakura neza.

Icyumba cy'ishuri gikoraniyemo abana b'inshuke barimo gufata ifunguro, harimo umugore wambaye umupira w'ubururu n'ijire y'icyatsi uri kugenda abibahereza.

Umugore wambayetaburiya y'ubururu w'umuganga wambaye amalinete, afite telefone mu ntoki n'irangamuntu y'umurwayi w'umugore umwicaye imbere, arimo arafasha kumuvuza akoresheje telefone.

Imbaga y'abaturage benshi, bakoraniye hamwe. Bitabiriye umuhango wo gufungura inyubako nshya, irimo gufungurwa n'abagabo batatu bafite umukasi barimo gucakagozi.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi ufite indangururamajwi mu ntoki, arimo kugezaho abaturage ijambo, ababwira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ko ari uburenganzira bwa buri wese.

Abagabo ndetse n'abagore batandukanye, bambaye imipira y'imyeru, harimo n'ibara ry'ubururu, bicaye ku ntebe zitatse neza n'ibitambaro by'imyeru, bari ahantu hatwikiriye, barimo gukurikirana ijambo.

Umuntu ufashe imiti itandukanye iri mu bwoko bw'ibinini amaze guhabwa na muganga afite n'ibipapuro amaze kwishyuriraho amafaranga y'iyo miti.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'isuzumiro, aho basuzuma indwara zigiye zitandukanye bitewe n'ibizami bafashe umurwayi, hahagazemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ni we urimo gukoramo.

Icyumba kizwi nka farumasi kirimo aka etajeri kubakishije ibirahure, harimo imiti igiye itandukanye itondetswe neza, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini izwi ku izina rya farumasi, harimo imiti igiye itandukanye igiye itondetse ku mirongo, hahagazemo umuganga utanga iyo miti.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi, ifite etageri yubakishije imbaho, harimo imiti y'amoko agiye atandukanye, harimo isukika ndetse n'idasukika, harimo umugore uri guseka uyicuruza.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi harimo utubati dutatu tugiye dutondetseho imiti y'amoko agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zibasira abantu.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi hariho etajeri iri mu mabara y'umweru hariho imiti igiye itandukanye harimo ibinini ndetse n'indi isukika yifashishwa mu kuvura abantu.

Icyumba kinini kizwi ku izina rya farumasi, hariho etageri, iriho imiti igiye itandukanye, harimo n'abaganga bahereza abarwayi iyo miti.

Farumasi itangirwamo ubuvuzi ndetse n'imiti y'amoko agiye atandukanye, harimo etajeri irambitseho imiti igiye itandukanye, harimo n'umuganga wambaye igitaburiya y'umweru urimo kumanura imiti agiye guha umurwayi.

Inyubako y'ubucuruzi, ikorerwamo farumasi irimo imiti igihe itandukanye, igiye itondetse neza, ku maetageri agiye arimo yifashishwa mu buvuzi bw'abantu bugiye butandukanye, mu kuvura indwara, zigiye zitandukanye.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi harimo akabati gakoze mu biti kariho n'ibirahure, harimo imiti igiye itandukanye, igiye itondetse ku mirongo.

Icyumba kizwi ku izina rya farumasi icururizwamo imiti y'amatungo agiye atandukanye, harimo umuntu ufashe umuti udafunitse inyuma yayo hari indi miti igiye ipfundikiye mu dukarito.

Icyumba kizwi ku izina rya farumasi kirimo imiti y'amoko agiye atandukanye igiye itondetse neza, mo imbere hahagazemo umugore wambaye amarinete ndetse n'itaburiya y'umweru, urimo gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga.

Inyubako nini izwi ku izina rya farumasi harimo akabati gateretsemo imiti y'amoko agiye atandukanye, igiye itondetse ku mirongo yifashishwa mu buvuzi bw'abantu.

Inyubako nini y'ubucuruzi, ikoreramo ibizwi nka farumasi, imbere yayo haparitse imodoka nini, iriho ibirango by'ikigo cy'Igihugu gishinzwe iperereza.

Abaturage batandukanye bateraniye hamwe, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru, uriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, afite indangururamajwi ari kubagezaho ubutumwa yabazaniye.

Icyumba kinini cy'inama, hateraniyemo urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi, bicaye ku ntebe za polisitike z'imyeru, imbere yabo hahagaze umugabo urimo kubagezaho ibiganiro.

Abantu batandukanye bambaye imipira y'icyatsi, barimo guca igitambaro kiri mu mabara y'ubururu, bigaragara ko ari inyubako nshya igiye gufungurwa barimo gutaha.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza arambitseho amakaye bari kwandikaho, imbere yabo hicaye umugore uteruye akana urimo urabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwe.

Imbaga y'abaturage batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abana b'urubyiruko bateraniye hamwe barimo kuririmba, bakoma amashyi, bishimye.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye bari mu muhango wo kubaka u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge, rushishikariza abantu kwirinda ibiyobyabwenge rubabwira ingaruka zabyo.

Urubyiruko rwishyize hamwe rwambaye imipira y'imihondo, abandi muri bo bambaye udutambaro tw'ubururu mu mitwe harimo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bafite icyapa cyanditseho turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Umugabo uhagaze urimo gutanga inama zerekeye ubuzima, arimo arashishikariza urubyiruko gukoresha agakingirizo, ababwira ibyiza byabyo ndetse n'ingaruka zo kutagakoresha.

Urubyiruko rutandukanye rwahuriye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'imweru, imbere yabo hahagaze umusore urimo kubaganiriza abagezaho ubutumwa yabageneye.

Umugore uhagaze ufite igitabo kirimo imfashanyigisho, arimo araganiriza abantu batandukanye bicaye mu cyumba arimo, urukuta rw'icyo cyumba hashushanyijeho abantu ndetse n'amatungo, handitseho ijambo rigira riti umuryango wanjye igihugu cyange.

Ibibabi byinshi bikomoka ku giti kizwi ku izina ry'inturusu byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, mu gukora imiti y'izo ndwara.

Umuntu ufashe igihingwa yakigonze kiri kuraba keraho indagarasoryo zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu harimo umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Igikombe k'ikirahure, kirimo umuti w'ifu, w'icyatsi, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uzwi ku izina ry'umuravumba, inyuma yacyo hariho igipapuro cyanditseho indwara zitandukanye igenda ivura.

Umugore ufite akamarete mu kuboko kw'ibumoso, arimo arasoroma amababi y'igihingwa kizwi ku izina ry'umuravumba, kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu wicaye ku musambi, ufite agasekuru n'umuhini wako, arimo asekura imiti igiye itandukanye kugira ngo ayivangavange, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze iruhande rw'ameza barayazengurutse, ateretseho imiti y'amoko atandukanye, igiye igerekeranyije, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icyumba cyo kwa muganga, giteraniyemo abaganga benshi batandukanye, barimo gutegura imiti igiye itandukanye, mbere y'uko bayigeza ku barwayi babo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye, itaburiya imbere ye hicaye abagore babiri bateruye abana baje kuvuza, ku ruhande hicaye umugabo na we waje kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, urimo urifashisha imashini mu buryo bugezweho bwo kuvura abantu hakoreshejwe imashini.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ifungiye mu kadobo k'umweru inyuma yaho hometseho igipapuro kigaragaza indwara, ndetse n'uburyo uwo muti wakoreshwa.

Ku bitaro kwa muganga harimo sale nini iriho intebe zikoze mu mbaho, hicaye abantu batandukanye imbere yabo hahagaze umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru urimo kubaha inama kubijyanye n'ubuzima.

Imiti igiye itandukanye, ipfunyikiye mu dukarito twegeranye, iruhande rwayo hari uduparito tubiri turimo ibipimo byifashishwa mu gupima ubushyuhe.

Kwa muganga hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru, arimo araha ubufasha umugore wambaye ibitenge waje kwivuriza muri ibyo bitaro.

Inyubako nini imbere yayo hari kandagira ukarabe, aho umuntu aza agakandagira amazi akamanuka agakaraba intoki ze, iruhande rwayo hahagaze umugabo ushishikariza abantu kugira isuku.

Ku bitaro kwa muganga hateraniye abarwayi batandukanye, bahagaze imbere y'umuryango, bari ku mirongo, barashaka kwinjiramo kugira ngo bahure na muganga abahe ubufasha.

Mu bitaro kwa muganga hateraniyemo abagore bateruye abana babazanye kubavuza, imbere yabo hicaye umuganga wambaye itabariya y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru uri kubasuzuma.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo barimo kwishima babyina, baririmba, bamwe bambaye amataburiya y'icyatsi yambarwa n'abajyanama b'ubuzima.

Imiti mu bicupa iri mu bwoko bw'ibisukika, iri mu macupa abonerana yometseho igitambaro cy'umweru yanditseho amagambo agaragaza uburyo iyo miti ikoreshwa.

Umugabo ukora ingufu z'amashanyarazi hifashishijwe izuba harimo guha umuganga igikoresho cyifashishwa mu gutanga ingufu z'amashanyarazi hifashishijwe imirasire y'izuba.